Ubuhinzi bukomeje kuduteza imbere mu gihugu cyacu, umurima mugari cyane uhinzwemo ibishyimbo, ndetse n'ibigori. Hahagazemo umuntu uri kubibagarira ufite isuka, wambaye imyenda yiganjemo umutuku n'umukara, undi ahagaze mu bigori.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, harimo abantu benshi batandukanye bambaye n'imyenda itandukanye, buri umwe afite umufuka ari gufata ifumbire akayishyira ku kigori.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, ibitoki, imyumbati. Igice kimwe kirunzemo ifumbire, ahandi hari ibyatsi byumye n'ibitumye. Harimo abantu benshi cyane bamwe bari kuyora ifumbire abandi bari gusaza ibyatsi mu murima.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage n'igihugu muri rusange, abantu benshi bari mu murima bafite amasukari bari guca imyobo, abandi bari gushyiramo ifumbire, impande yaho hari ibiti bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane usa nkaho uhinzwe vuba bari guteramo imyumbati, ahandi hari ifumbire undi murima uhinzwemo ibigori ndetse hari n'igiti cyeze voka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibitoki, ibirayi, harimo abantu bagera ku icumi bambaye imyenda isa ubururu, buri umwe afite ibase irimo ifumbire, ari gutera mu birayi.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo, harimo akabati karimo ibikombe biri mu mabara atandukanye ubururu, icyatsi, harimo n'amakarito yo mu bwoko butandukanye, hahagazemo umuntu n'undi wicaye wambaye imyenda y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri bamwe muri bo bari kuwusarura abandi barahagaze, impande yaho hari ikibuga gikusanyirizwaho umuceri wasaruwe kandi hakikijwe n'ibiti.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima urimo ikawa izwi nk'igihingwa mbaturabukungu. Harimo abantu bahagazemo, umwe muri bo afite ifumbire ari gushyira kuri iki gihingwa, abandi bafite ibyatsi bari gusasira.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwe, harimo abantu b'ingeri zitandukanye. Bamwe bambaye imyenda y'umukara, umutuku, umuhondo, ndetse bafite amasuka bari gucukura imyobo aho bagiye gutera. Impande hari undi murima urimo ibigori bitarera neza.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi asa umuhondo, inzugi ziteweho amarangi y'umutuku, harimo akabati karimo amacupa, amakarito yo mu bwoko atandukanye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uri mu gishanga uhinzwemo ibirayi, imboga ndetse hari n'ibiti bikikije uwo murima n'amazu, hamwe harunze ifumbire bari guteza, hahagazemo umuntu wambaye bote z'umukara.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo amashu, agiye ateye ku murongo, impande yaho hari ibiti by'amoko atandukanye, hagati mu mashuri hahagazemo umugabo uhetse igikoresho bifashisha bavomerera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri utemba itoto. Hagati hari umugenda utembamo amazi, impande yawo hahinzwe ibigori bisa nkaho byenda kwera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'urwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibirayi bitemba itoto, bisa nkaho byenda kwera, hahagazemo umugabo uhetse igikoresho cyifashishwa mu kubivomerera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane igice kimwe gihinzemo insina ikindi kirimo ibigori, impande yaho hari ishyamba ririmo amabuye, hahagazemo umuntu wambaye bote ndetse n'amadarubindi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibigori bigiye biteye ku murongo, impande yawo hari undi urimo ibishyimbo bisa nk'aho byeze ndetse hakaba hakikijwe n'ibiti by'amoko menshi atandukanye nk'imirwanyasuri n'ibindi.

Ubuhinzi bukomeje gutezi imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, imyumbati ndetse impande yabo hari igiti cyezemo imbuto zitwa voka, hari n'ibyatsi byifashishwa mu kugaburira amatungo.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuti kirimo inkwavu zimwe zisa umweru izindi zisa umukara, zimwe muri zo ziri hanze ziri kurya ubwatsi, hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umukara

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibitoki, harimo abantu batanu bafite amasuka bari guhinga, imbere yabo harambitse umuhoro, hari igiti cy'avoka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibigori ndetse n'insina zimwe zeze ibitoki. Hahagazemo abagabo babiri bafite amasuka bambaye imyenda yiganjemo umukara. Umwe muri bo yambaye ingofero y'ubururu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane, utewemo ibigori, ibitoki n'amateke. Harimo abantu batatu bafite amasuka bari gukora akarima k'igikoni hagati mu murima. Inyuma yabo hari undi uhagaze ufashe ku nsina wambaye imyenda y'ubururu.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini cyane yubakishijwe amabati y'ubururu itewe n'amarangi y'ubururu, harimo imifuka ipanzwe ku muronko, imwe isa umweru, indi isa umuhondo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cyu Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori. Bisa nkaho byeze bimwe birumye. Hahagazemo umugabo ufite ibigori bigera muri bitanu, bikuweho amababi.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo inyanya zisasiwe n'ibyatsi byumye, harimo umugabo wambaye imyenda itukura wunamye usa nkaho ari kuzisasira, impande yaho hari undi murima uhinzwemo ibitoki.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, bukomeje gutuma tugira ubuzima bwiza, isoko rigari cyane ryiganjemo imbuto nk'imineke, amaronji, voka ndetse harimo n'imboga z'imiteja.

Ubuhinzi bukomeje kutugeza kuri byinshi, inyubako nini cyane irimo ibiti bihagaze n'ibitambitse hamanitsweho ibigori impande y'aho hahagaze abantu bagera kuri batanu bambaye imyenda y'umukara n'umutuku.

Ubuhinzi bwa kijyambere bumaze kuduteza imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori bisa nkaho byenda kwera, hagati hari umugenda urimo amazi, uwo murima ukikijwe n'ishyamba.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini cyane irimo imifuka igiye itondetswe ku murongo, imwe isa umweru indi isa icyatsi, hari umuntu uhagazemo ufite ikaramu n'ikayi.

Ni byiza guhinga tugasagurira amasoko, urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, imifuka iri mu mabara atandukanye harimo ibihingwa bigiye bitandukanye amageri, impungure, ingano ndetse n'ibishyimbo, hakaba harimo abantu bahagaze imbere y'iyi mifuka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere, igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako ndende cyane, irimo imifuka ipanzwe ku mirongo. Harimo amabara y'umweru, hahagazemo abagabo babiri, umwe ahagaze ku mifuka.

Ubuhinzi bukomeje kutugeza kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibiti bya voka biteye ku muronKo, hagati muri byo hateye ibishyimbo bisa nkaho biri kumera, hahagazemo umugabo uhetse igikoresho bifashisha bavomerera imyaka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, imifuka igera ku munani imwe isa umweru indi isa ubururu, buri mufuka hagiye harimo igihingwa, hamwe harimo amasaka, ahandi harimo soya, ahandi harimo ibigori.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, imyumbati yakuwe irambitswe hasi, hahagaze abantu babiri, umwe muri bo afite umwumbati yavunnye, undi arahagaze byonyine.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, shitingi irambitseho umuceri hahagazeho umugore ufite intara uri kugosora umuceri wambaye imyenda isa ubururu, impande yaho hari undi wicaye ku mufuka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane irimo akabati. Mu kabati harimo imifuka imwe isa umweru, umuhondo, icyatsi, harimo amavido ndetse n'amasafuriya.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini cyane uhinzwemo ibitoki, ibigori, ahandi ni umurima uhinzwe vuba uri guhingwamo imigozi y'ibijumba hakaba harimo n'imyumbati.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi, ndetse impande yaho hakikijwe ibiti n'umugezi utembamo amazi, hahagazemo umugabo wambaye bote z'umukara n'umupira w'ubururu.

Ishyamba riri mu bimwe mu bidufasha gucana, ibiti byinshi biri ahantu hamwe biri mu moko atandukanye, harimo n'ibyera imbuto nk'amapera ndetse na voka, harimo ibiti bimwe byatemwe birambitse hasi bisa nkaho byumye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umuma mugari cya uhinzwemo ibitoki amateke ndetse hakaba harimo n'imyumbati, impande yawo hari igiti kiziritsweho ihene ndetse n'umuntu uhahagaze ufite umuhoro.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibitoki, amateke n'imyumbati, impande yaho harambitswe insina zatemwe ndetse n'ibindi byana by'insina bisa nkaho bagiye kuzitera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane ukikijwe n'ibiti, hatewemo ibihaza, amateke, ibitoki ndetse harimo n'igiti cya avoka n'icy'amapera. Hahagaze umuntu impande y'igiti cy'ipera.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishyamba rinini cyane riziritswemo amahene impande yaho hari igiti kizwi nk'umwembe, hakaba hari n'icyera voka ndetse hakaba hari n'igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, umurima mugari cyane utewemo voka, ibinyomoro, hahagazemo umugabo wambaye ingofero, isaha ndetse n'umupira w'umukara uri gukora kuri voka.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bari kugurisha imbuto zitandukanye amapera, voka amaronji, indimu, bamwe bari kugurisha inyanya n'imyenda abandi bahagaze bari kureba.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bamwe bari kugurisha inyanya, imiteja, karoti. Hahagazemo n'abandi bafite imifuka, isa umweru. Impande yaho hari umufuka urimo ibishyimbo.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru n'umuhondo, impande yaho hari ubusitani burimo indabo, burimo n'ibiti by'imikindo, hari abantu bahagaze babiri, umwe ahagaze mu busitani hagati undi ahagaze mu kayira.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo. Impande yabo hari umuhanda uparitsemo imodoka, hari ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye, harimo ibiti by'imikindo n'ibindi.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, isoko ririmo ubwoko bw'imboga butandukanye, imbwija, imiteja, iri mu ibasi y'umutuku ndetse hari n'amapavuro n'inyanya.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo inyanya zeze. Harimo igitebo kirimo inyanya ndetse n'umuntu uzifite mu ntoki uri kuzisarura. Yambaye imyenda yiganjemo umuhondo.

Isoko ryiganjemo imboga, imbwija, inyanya, karoti, imiteja ndetse hari n'amashu asa nk'aho yangiritse arambitswe ku mufuka usa nkaho wavuyemo amakara, hari n'ibicupa.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere igihugu cyacu, kandi bigatuma tugira ubuzima bwiza. Ibase irimo tungurusumu, ndetse na epinari. Impande yaho hari indi irimo imiteja, aya mabase akaba as'ubururu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori n'undi uhinzwemo inyanya zisa nk'aho aribwo zigikura; harimo umugabo wambaye bottes n'imyenda y'umukara, ufashe ibyatsi, uri gusasira inyanya.

Ubuhinzi bw'imbuto bwatugejeje kuri byinshi, umurima mugari cyane uhinzwemo ibinyomoro, amatunda, umurima ukikijwe n'ibiti bitandukanye n'inzu isakajwe amategura, hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Ubusitani bwiza cyane buri inyuma y'inzu harimo indabo z'amoko menshi atandukanye. Harimo umutuku, icyatsi, umuhondo. Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse mu busitani harimo n'amateke.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bahagaze imbere y'ibitunguru. Bimwe bisa umweru, ibindi bisa umutuku. Umwe muri bo arikubikoramo abandi bahagaze impande yawo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo amashu asasiwe n'ibyatsi byumye, harimo abagabo babiri, umwe afite umupira ari kuvomerera amashu.

Umurima mugari cyane uhinzwemo ibihingwa bitandukanye: karoti, intoryi, ibijumba. Undi urimo ibigori bisa nk'aho byeze. Hakaba hakikijwe n'ibiti by'amapera n'ibindi bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bari kugura no kugurisha imbuto zitandukanye, amaronji, imyembe, inanasi ndetse n'amatunda, umwe muri bo afite agafuka afite n'inanasi mu ntoki.

Ubuhinzi bukomeje kutugeza kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini cyane utewemo ibishyimbo biteye ku murongo, havanzemo n'ibigori, harimo umuntu uhagazemo wambaye imyenda yiganjemo umweru, afite indobo irimo amazi ari gusuka ku bishyimbo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibishyimbo ndetse bikaba bitewe kijyambere harimo umupira uri koherezamo amazi, harimo umuntu uhagazemo wambaye imyenda itukura.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, umurima mugari cyane uhinzwemo ibirayi, hahagazemo abantu babiri bafite ibikoresho bari kuvomerera ibirayi, impande yawo hari umugezi uhashoka ndetse n'ibiti bikikije umugezi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje kuduteza imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori bigiye bite ku murongo, harimo n'ibishyimbo, hahagazemo umugabo wambaye isengeri itukura afite isuka, n'umugore wambaye umupira w'umweru ufite isuka, impande yawo harindi murima urimo ibigori bisa nkaho byeze.

Ikibuga kigari cyane gihagazemo abantu batatu hamwe hamezeze nk'ahatwawe n'isuri gikikijwe n'ibiti by'amoko menshi atandukanye n'amazu asakaje amabati y'ubururu n'umutuku impande yaho hahinzwe ibigori hari n'igiti cyera voka.

Igishanga kigari cyane kirimo umuceri, hamwe hagiye harimo amazi, harimo inzu isarurirwamo umuceri, iruhande y'aho hakikijwe amashyamba ndetse n'inzu, hahagazemo abantu bari kuwubagarira.

Umurima uhinzwe kijyambere. Hatewemo ubwatsi bw'inka ndetse n'imyumbati. Impande yaho hari voka, imyembe. Hahagazemo umuntu urimo gutera ubwatsi bw'inka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kigari cyane, gihinzwemo umuceri usa nk'aho urimo amazi menshi, impande yaho hari ubusitani n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ikibuga kigari cyane gikikijwe n'ibiti byinshi by'amoko agiye atandukanye, hagati mu kibuga harimo ibyatsi, harimo umuhanda watwawe n'isuri ndetse hahagazemo n'umuntu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, indinganire zihinzwemo ibihingwa bitandukanye ibishyimbo, ibirayi, ibigori, hagati harimo ubwatsi bw'amatungo n'ibiti.

Ubuhinzi bwa kijyambere, bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imitabu ihinzemo ibigori, ndetse haciyemo imigenda y'amazi. Impande yaho hari imirima iri mu misozi itewemo ibishyimbo n'insina. Ndetse hari n'ishyamba rikikije.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Igishanga kigari cyane kirimo umuceri usa nkaho ukiva mu butaka, impande yawo hahagaze abantu batatu bambaye imyenda yiganjemo umukara. Hari undi murima uhinzemo ibigori, hakikijwe n'ibiti ndetse n'amazu.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo inyanya, n'urusenda, hakaba haciyemo umugenda utwara amazi. Impande yaho hari ibiti bihakikijwe, ndetse iki gihingwa kikaba gishashijwe ibyatsi byumye.

Ubuhinzi bukomeje kutugeza kuri byinshi, indinganire zihinzwemo ibishyimbo, ibirayi. Impande yaho hahinzwe ibitoki ndetse n'imishingiriro irambitswe ku mikingo, hagati hari ingo.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uhinzwemo ibirayi, impande yaho hari undi udafite icyo uhinzemo, harimo amahene abiri ari kurisha ubwatsi hasi, impande yawo hahagaze umugabo.

Ubworozi bukomeje kuduteza imbere, inyubako nziza cyane yubakishijwe amabati atukura, hasizwe irangi risa umweru, imbere yaho hari inkoko zigera muri makumyabiri ziri gutora ibyo kurya hasi, hari amabase y'ubururu n'imwe y'umukara.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inka y'isine ndetse n'akanyana kari kuyonka ihagaze ku byatsi, impande y'aho hahagaze umugabo wambaye bote akaba yambaye n'umupira w'umukara, hakaba hari ibiti bikikije aho iyi inka ihagaze.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe n'ibiti, harimo inkoko nyinshi cyane ziri gutora ibyo kurya, ziri kubifatira mu mabase asa umutuku n'umweru, hahagazemo umuntu, wambaye imyenda y'umukara n'umweru.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inzu yubakishijwe ibiti ikaba ihumyeho ibyondo, imbere yaho hicaye abana bagera muri bane, umwe ateruye undi. Hari urugo rw'imiyenzi, impande yaho mu murima uhari hari amahene abiri, harimo n'umugore ufashe ihene imwe, ari kwiyizirika ku ncumangiro.

Ubworozi bw'inkoko, bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Inkoko ziganjemo amabara y'umweru, zihagaze ahantu hamwe. Zimwe ziri gutora ibyo kurya, izindi zirahagaze gusa.

Ubworozi bukomeje kuduteza imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urugo rwubakishije amatafari ruhomyeho icyondo. Imbere yaho hari ishumangiro iziritseho amahene abiri, inini n'umwana wayo. Hari umumama wambaye imyenda yo mu bitenge uri kuzirika ihene. Hepfo yaho hari urugo rw'imiyenzi ndetse n'umurima uhinzwemo ibishyimbo n'insina.

Ubworozi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'Igihugu muri rusange. Inzu isa nkaho yubatswe vuba, itarakingwa, ibumbiwemo amatafari. Imbere yaho hari umumama wambaye imyenda y'igitenge, ari guha ihene ubwatsi. Ihene iziritse ku giti, impande yaho hari umurima urimo ibishyimbo n'ibitoki.

Inyubako yubakishijwe amabuye, umuririma mugari cyane urimo intama, imwe iziritse ku gicumangiro indi ni umwana wayo zirahagaze, impande yawo hari ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro kigari cyane kirimo ingurube zigera kuri cumi n'eshanu. Zimwe muri zo zihagaze ku biti, izindi zihagaze ku byatsi, izindi ziri mu ifumbire.

Ubworozi bukomeje kutugeza kuri byinshi kuko butanga n'ifumbire kugira ngo dufumbire imirima yacu. Ikiraro gisakajwe amabati; harimo inka y'isine iri kurya ubwatsi, iri kurira mu gatanda.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inka y'isine iri mu kiraro cyubakishijwe imbaho n'ibiti bizamuye kikaba gihumyeho ibyondo. Iri kurya ubwatsi mu gatanda kayo ndetse hari n'inyana isa umweru iri kurya ubwatsi.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, amahene menshi ari mu muhanda afite amabara yiganjemo umweru n'umukara, hari abantu bahagaze impande yawo ndetse zimwe ziri kurisha.

Ubworozi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'Igihugu muri rusange. Ikiraro cyubakishijwe ibiti byinshi, bimwe bihagaze ibindi bitambitse, harimo amahene abiri yiganjemo umweru n'umukara ari kurya ubwatsi.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inka iri mu kiraro iziritswe ku giti irimo amabara y'umweru n'umukara, impande yaho hari umuntu uhahagaze ndetse hari n'urugo rw'imiyenzi.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ibibuti birimo inkwavu ziganjemo amabara y'umukara. Imbere yaho hahagaze abagabo bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umuhondo ndetse n'umukara; buri umwe afite urukwavu, bamwe muribo bafite ebyiri ebyiri.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bambaye imyenda itandukanye: umukara, icyatsi ndetse n'umutuku. Bamwe muri bo bafashe amashu arunze hamwe. Abandi bahagaze imbere y'ahantu hari imifuka irimo ifu.

Umurima mugari cyane uhinzwemo imigano ndetse hagati mu migano harimo intabire iteyemo ibishyimbo bisa nkaho biri kumera, impande yaho hari ibindi byeze.

Ubuhinzi bukomeje kutugeza kuri byinshi, ibishyimbo byiganjemo amabara atukura n'umweru, byanitswe ku kirago, byaragosowe ndetse impande yaho hari umuntu uhagaze, undi ari kubikoramo.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutuma abaturarwanda tugira ubuzima bwiza ndetse bugateza n'igihugu imbere muri rusange, umurima mugari cyane utewemo imboga zitandukanye harimo karoti, imiteja, intoryi ndetse hakaba hari n'inyanya zimwe zireze izindi ntabwo zirera, hahagaze umugabo ufite igitebo kirimo inyanya.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibishyimbo, impande yawo hari ibiti bivanze n'insina hahagazemo umugabo wambaye bote.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibigori bisa nkaho byumye, harimo amateke n'ibishyimbo, hagati hari umuyoboro w'amazi ndetse haziritswemo n'ihene.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, imitabo ihinzwemo ibigori bisa nkaho byeze, ahandi hahinzwe imyumbati n'amateke, harimo ikinogo kirimo amazi ndetse hahagazemo umugabo.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko zituma tugira ubuzima bwiza. Umurima mugari cyane uhinzwemo imbwija, inyanya, imiteja, karoti ndetse n'intoryi. Impande yaho hari umuntu wambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru, afite isuka.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti, gihomyeho ibyondo, harimo inka iri mu mabara y'umweru n'umukara, harimo abagabo babiri bambaye bote n'imyenda y'umweru n'ingofero y'icyatsi, bari gutera urushinge inka.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye izisa umutuku, umweru ndetse izindi zisa umuhondo, hahagazemo imbwa indi iraryamye, harimo abagabo babiri bafite inkoni bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'umukara n'umutuku.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishyamba rigari cyane ririmo inka y'isine iziritswe ku giti, hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye isarubeti isa icyatsi, undi yambaye imyenda y'umukara, undi ari kuyitera urushinge.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro gisakajwe amabati y'ubururu cyubakishijwe n'imvaho n'ibiti, harimo inka iri mu mabara y'umweru n'umukara, hahagazemo umuntu wambaye bote n'isengeri isa umweru.

Ubuhinzi n'ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. ishyo ry'inka riri ahantu hamwe, harimo amabara y'umweru n'umukara, hahagaze abantu batatu, umwe yambaye imyenda y'umukara, undi yambaye ubururu, impande yaho hahinzwe ibigori bisasiwe ibyatsi byumye.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe amabati, ibiti, kikaba gihomyeho ibyondo. Hari n'inka y'isine harimo abagabo babiri. Umwe yambaye imyenda y'ubururu ari kuyitera urushinge undi ayifashe amatwi.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cy'inkoko cyubakishijwe ibiti n'ibyondo, harimo inkoko ziganjemo amabara atukura. Imwe ihagaze mu isafuriya, izindi ziri gutora ibyo kurya.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inka nini y'umweru ifite amabara y'umukara iri kurya ubwatsi, iri mu kiraro harimo abagabo babiri, umwe ari kuyikora ku mabere, undi arahagaze.

Inyamaswa zikomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda biciye mu kwinjiza amadovize mu Rwanda, ingagi ebyiri ziri mu ishyamba, imwe muri zo iricaye izindi zirahagaze, impande yaho hari inyoni zifite amabara asa umuhondo n'icyatsi.

Zimwe mu nyamaswa zikomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda zinjiza amadovize. Ishyamba rigari cyane ririmo ibiti bisa nkaho bihiye. Inyamaswa zihagaze mu byatsi ndetse zimwe muri zo ziri kurebana.

Zimwe mu nyamaswa zikomeje kwinjiza amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti bitoshye. Harimo inkende ifite umuneke, ndetse indi iri kuyireba nta kintu ifite.